Isamake iraryoha cyane cyane iyo uyirishije ifiriti, bakagushyiriraho n'igitunguru bagakata n'urunyanya, ariko none nta wapfa kuyigereza, keretse umuntu wifite ufite amafaranga, kandi bisaba menshi keretse nubundi abatunzi.

Akabari ni hamwe abagabo bakunda kujya ,hari urubyiruko bari kuganira rero baba bari kuruhura ubwonko, kubera ko haba inkuru nyinshi kandi hari ibiganiro byinshi bishimishije abagabo ,ubwo rero akabare nikubahwe, ariko muri hoteli na ho barahajya kandi ho uhagiye ni uba wiyubashye.

Hoteli cyangwa akabari gateguye neza nkuko turi kureba akangaka, kazana abakiriya benshi kandi bishyura neza, burya ahantu hateguye neza hasa neza hazana abakiriya kandi bakishyura neza, ugasanga nyirako ateye imbere, n'agace gateye imbere kubera ko bishyura n'amahoro n'imisoro kubera ko haba hateguye neza.

Boroshete ziraryoha cyane iyo uyirishije ibirayi. Kandi rwose ahantu hose bazotsa, ubwo ni mu tubari, usanga boroshete yitaweho cyane kubera ko iraryoha cyane. Kandi n'ikirayi cyokeje na cyo kiraryoha cyane. Ubwo rero bonapeti.

Igiti kiraryoha cyane, niba utari wakirya uzagende, ubaze ngo nshaka igiti. Kiraryoha cyane kandi igiti kiba ari borosheti rwose urya ukumva urizihiwe . Cyane cyane iyo uri kuyirisha agafiriti eee, agafiriti ku karisha inyama yo ku giti biraryoha.

Amahoteri amaze kuba menshi mu Rwanda ariko cyane cyane abayubatse ku biyaga no ku migezi, usanga ba mukerarugendo bakunze kujyayo cyane kuhareba ariko usanga hari n'amahumbezi. Rero nabararikira ko mwajya muratembera , mukajya kureba ibyiza bitatse u Rwanda .

Ibikose bya palasitiki biri kugenda bigabanuka hirya no hino kubera ko hari ibindi bikosi biri kugenda bikorwa kandi bijyanye n'igihe. Palasitiki rero rwose muzisezerere ahubwo mumenyere kujyana n'iterambere.

Haba ibikoresho byo kubaka, aho bita muri kenkayori. Hafasha abantu benshi, kandi hamaze no kugwira mu makaritsiye. Ugeramo ugasanga za kenkayeri zagezemo, ushaka agasima ukakabonera hafi, washaka n'ikindi kintu kijyanye n'ubwubatsi wakibonera muri karitsiye.

Mu Rwanda ahantu henshi hacururizwa ibyo kurya n'ibyo kunywa by'ako kanya, byo gutabara abantu hamaze kuba henshi, ku buryo ushobora kubona icyayi kimeze neza cyangwa ikawa, kandi ibyo biragufasha bigatuma ukora urugendo neza, kubera ko uba wishe isari.

Butiki zimaze kuba nyinshi cyane, kubera ko hari aho usanga bari gucuruzamo imyenda, ahandi ugasanga barucururizamo ibikoresho byo mu rugo, ahandi ugasanga baribicururizamo ibikoresho by'ubwubatsi. Ubu rero za butiki zimaze kuzura cyane muri karitsiye ,ahantu heshi uhageze uhasanga ibyukeneye.

Butike ziba nziza cyane kubera ko zifasha abantu kubona ibikoresho by'ibanze ndetse no guhahiramo ibikenewe byo mu ngo. Urebe nk'umuntu wubatse inzu ku muhanda aba agize neza cyane kubera ko iyo nzu icururizwamo igafasha uyikodesheje ndetse nabayikoreramo.

Ahacururizwa imiti ni ahantu haba harabugenewe. Ntabwo umuntu wese yavuga ngo burekeye ngiye gucuruza imiti. Umuntu ayicuruza ari uko yabyize, cyangwa akayicuruza ari uko yahawe ibyemezo by'ababishinzwe, ugize ngo abantu bose bacuruza imiti bakayicururiza aho babonye hose? Ibintu byose barabyiga, kugira ngo ukore ibintu uzi neza kandi bitazanira ingaruka rubanda nyamwinshi.

Amazu yo mu Rwanda amaze kuba meza cyane, kuko usanga abenshi barayasize amarangi barayakoze neza bayubaka mu buryo bugezweho bujyanye n'igihe, ku buryo n'abanyamahanga bakunda kugakodesha cyane, kandi burya iyo wubatse inzu ukayikora neza ukayisiga irangi, biguha amadovize biguha amafaranga kandi bigatuma ubaho neza.

Firigo iba igikoresho cyiza cyane kubera ko ikonjesha ibicuruzwa cyane cyane. Ibyo kunywa babishyiramo, ndetse n'aho bacururiza inyama kuri busheri bashyiramo inyama kugira ngo zitangirika. N'uwifite mu rugo nawe arayigura.

Aho bakorera amatelefoni ndetse bakagira n'amapasi, n'ibindi bikoresho, uhasanga hahuriye abantu benshi, kubera ko baza bakenyeye serise, bityo bakiteza imbere aho bakorera.

Aya ma Etaje rero aba meza cyane kuberako atuma ikibanza gitubuka, burya iyo wayubatse uba watubuye ikibanza kandi n'umusaruro uraboneka kuberako uba wakoreye ahantu hatoya ,ariko wagize hanini bitewe n'ukuntu washyizemo inyubako.

Muri butike habamo ibintu byinshi byiza byo gufasha abaturage, ariko abagabo ni bo wasangaga bacuruza mu mabutike gusa, ariko n'abagore ubungubu baba mu mabutike, hari amabutike ugeramo ugasanga harimo ibiribwa harimo n'ibindi bikoresho birimo, barabivanga wahagera ugasanga ni akavuyo.

Ni imwe mu nzoga abantu bakunda, barayinywa, ngo bakumva bamerewe neza mu mubiri, ariko rero n'izindi nzoga barazikunda da, mitsingi barayinywa , barayikunda, mu birori abantu bagasabana ariko amusiteri benya ari icyo kunywa gifite agaciro cyane, rero amusiteri benshi barayikunda.

Ubucuruzi bumaze gutera imbere cyane kuberako umutekano na wo wakwiriye hose, ubwo rero umuntu ahantu hose ari gucururiza aba yisanzuye kuberako aba yizeye umutekano. Rero ahacururizwa hagomba nanone kwitabwaho, kandi umuntu akamenya aho agiye gucururiza.....

Abantu bacuruza ibi bikoresho bitandukanye byo mu rugo , bo ntabwo bakunda kubura abakiriya . Kubera ko ntabwo habura umuntu ukeneye igikoresho . Gishobora kuba cyahiye ,gishobora kwa cyapfuye mu bundi buryo cyangwa gishaje .Rero byanga byakunda, ibikoresho barabigura cyane.

Butike ziba nziza cyane iyo muri karitsiye zirimo, kandi ugasanga bari gucururizamo ibintu bikenewe aho hantu. Kandi na we ugiye gucuruza butike, bisaba ko ureba karitsiye n'ibyo ugiye gucuruza ko bijyanye, kugira ngo ucuruze kandi wunguke.

Ubungubu kubera ko ziba mu nyubako baba barubatse ku nzu zo ku muhanda, usanga zuzuye abakiriya benshi, ariko cyane cyane abantu bagira abakiriya ni ababa bafite ibiciro byiza bishimishije, kandi badahenze abaguzi.

Ubona ko kameze neza cyane kandi kunda ibikorwa byinshi bivuga ngo kubaka amagorofa burya umuntu aba yiteje imbere cyane kubera ko abayateguye kibanda neza ugasanga yubatsemo ibyumba byinshi kandi ikibanza gitoya.

Amatelefoni aba meza cyane kuberako adufasha itumanaho kandi agakemura ibibazo byinshi ,ufata n'amafoto ukayoherereza undi muntu, yagufasha gutanga raporo, ubu bwoko bw'amatelefoni aba meza cyane kandi umuntu udafite telefone nawe kumubona biragorana.

Ibikoresho by'amagare biba ahantu henshi ariko cyane cyane hafi y'aho abanyozi bakorera, kuberako ntibawabicururiza aho abanyozi batari ngo uzunguke, ni yo mpamvu rero iyo wateguye umushinga wawe neza, ushyira iduka hafi y'aho abanyozi bagera rwose urufaranga rukaza.

Ahantu bakorera imigati rero, iyo ugiyeyo bashobora kugukorera n'umugati w'aniveriseri kubera ko na wo barawukora kandi ukagufasha gukora ibirori byawe neza. Ndi kubona aha ngaha rero ngo ni resitobare, fasiti fudu, na ho umenya bakoraga imigati, ugiye wayihasanga. Haba harimo n'icyo kunywa, ubwo rero icyo ukeneye cyose urakibona.

Ubucuruzi bw'u Rwanda bwateye imbere cyane ku gasantere ugasanga hariho butike ukagera hirya no hino ugasanga hari butike ariko noneho hari imbogamizi y'uko hari butike zikivangwa n'inzoga. Ugasanga ugiye guhahira muri butike ugasanga abantu buzuye bagose bari kunywa n'inzoga uwo muco ntabwo ari mwiza.

Aho bacururiza haba ibyo kurya umuntu ahita arya ako kanya, hamaze kugwira cyane, kuko za arimantasiyo nazo zimaze kuba nyinshi cyane, kuburyo utakwicwa n'inzara uri ku rugendo, wabona amata, wabona irindazi, wabona keke, urumva ko rero ahantu hacururizwa hamaze kuba henshi cyane.

Igare ni igikoresho cyiza cyane kubera ko abanyonzi bafasha cyane abantu mu byiciro bitandukanye ,buriya iyo ari umunyonzi aragutwaraho niba wakagombye kwishyura moto magana atanu ,ukamwishyura magana abiri, urumva uba usaguye magana atatu, hari n'abatwaraho inzoga ,hari n'abatwara nk' amata bayabanjuye, ubwo rero n'abahinzi na bo iyo bapakije abanyonzi batwara umusaruro bakawugeza ku isoko ,kandi ukishyura make.

Uruganda rw'Inyange ni uruganda rumaze kumenyekana cyane kubera ko rukora amata, rukora ji, rukora, rukora n'amazi aya mazi yose rero akorerwa muri uru ruganda rw'Inyange ,aba meza cyane kubera ko n'iyo uri ku rugendo urayifashisha cyane da!,uranywa n'aya mata uranywa, kandi wayatwara kubera ko abafunze neza ru bitandukanye na ya yandi yo mu kajerikani .Uruganda rw'Inyange rero nirwubahwe.

Amabutike aba meza cyane, ariko n'abayacururizamo bagomba kureba kure cyane. Ugashyira butike ahantu cyangwa se ugacururiza ahantu uri kubona hatazaguteza ibibazo. Ugomba kureba n'ahantu haba umutekano akaba ariho ucururiza.

Iyi orempike moteri icuruza mitsingi gusa, ubundi utubari ducuruza inzoga nyinshi zitandukanye kandi abakiriya ko baza gushaka inzoga zitandukanye, ariko buriya barateka; umara kurya ugahita unywa n'icupa rya mitsingi.

Aya ma butike bubakishije amakaro, bayongereye agaciro kuko, usanga ameze neza kandi asa neza. Ubwo rero , umuntu wese ufite inzu ku muhanda, yakagombye kuyisiga kugira ngo ayihe agaciro. Burya agaciro, ni mu mumufuka.

Hoteri iba nziza cyane kubera ko ni ahantu heza hisanzuye nyaburanga, kandi Laporme hoteri yakira inama nyinshi cyane, urebye n'ahantu iri ubona ari heza cyane wakwifuza no kurira yo cyangwa kuhabera, kuko usanga harimo ibiti byiza cyane kandi iyo ugezemo imbere ubona hakeye.

Abafatanyabikorwa b'igihugu ndetse n'abashoramari, bamaze gusobanukirwa uburyo bwo kwagura ibikorwa by'iterambere, kuko abubaka amazu bakayagerekeranya, batuma ibikorwa by'iterambere bibona aho bikorerwa cyane cyane mu nzu zo hasi n'izo hejuru. Ubwo rero kurwubaka ni uguteza imbere igihugu no kwiteza imbere ubwacu.

Serivisi nyinshi zajyaga ziratangirwa mu irembo, zizajya ziratangirwa mu mudugudu cyangwa isibo, cyangwa mu rugo kubera ko hariho gahunda ya byikorere. Kubera ko rero hashyizweho abantu bagomba kwigisha ikoranabuhanga, ni ukuvuga ngo buri muturage azajya arabyikorera. Kwiyishyurira mituweri, kwishakira ibindi byangombwa, ukabyikorera kuri Telefone yawe. Ubwo rero ikoranabuhanga ni ryubahwe.

...ni ikigo cy'imari cyabaye kuva kera cyane. Cyafashaga abaturage kubitsa no kuzigama no kugurizanya. Ubu ngubu cyateye imbere, ubu gisigaye cyitwa bipiyara banki, ariko ni ukuvuga ngo n'ubundi n'ibindi bigo na byo bifasha abantu kudasesagura umutungo wabo.

Amasoko yabaye menshi, ku buryo usanga hirya no hino bashyizeho amasoko y'imyenda, isoko ry'ibiribwa, ariko nk'iri soko ry'imyenda, urabona ko rimeze neza kandi ubucuruzi, bacururiza ahantu hari n'abakiriya,..,

Aha ngaha n'isoko ari bacururizamo imbuto ahahariza akenshi bakunda ku kita ni muri marato, kubera ko ugura uhita ugenda wihuse, urabona ko ahenshi ntabwo baha hasakaye, nuko rero ukeneye imbuto yaza akagurira aha ngaha.

Amazi ya Nili aba meza cyane kubera ko nayo afasha abantu ,waba uri ku rugendo urayanywa ,ugakomeza urugendo, kandi ni ukuri ufashe igicupa kimwe cya liti n'igice wayanwa ukumva hari aho akugejeje.

Abacuruzi bacuruza ibiribwa ni abacuruzi batagomba kurakara rwose, ni ukuvuga ngo iyo uri gucuruza ibiribwa abakiriya barizana ,kandi kuberako kurya ari bya buri munsi bacuruza ibiribwa se ukarata? N'ubwo wenda bitakubuza guhomba bitewe n'impamvu imwe cyangwa indi ,ariko umuntu ucuruza ibiribwa rwose aba acuruza ibintu byiza cyane.

Umuntu ucuruza imyenda y'imikino abana amafaranga, kubera abantu benshi barayikunda, nko muri wikendi abenshi usanga ariyo bambaye, abakinnyi, amakipe usanga imyenda rwose y'imikino iri kugurwa cyane.

Amasoko yo mu Rwanda ahenshi gucururiza hanze biri kugenda biracika kuberako henshi bari kujya barakorera ahantu hasakaye bitewe n'iterambere, ariko uko bucya bukira ni ko bagenda batera imbere bayubaka ndetse bakanayavugurura, rero iterambere riri kugenda rigera henshi kandi benshi bari kugenda barasoba barasobanukirwa vuba.

Amasoko amaze kugera hirya no hino, hari igihe ugera nko mu murenge ugasanga harimo nk'agasoko gafasha abaturage guhahiramo iby'ingenzi nkenerwa. Ubwo rero urumva ko amasoko aba meza cyane yo hirya no hino.

Ibishimbo by'intonore biraryoha cyane, kuko hari n'igihe babikoramo imboga ukabirisha umutsima cyangwa umuceri, ushobora no kubirya mu bijumba, ukabirisha n' ibirayi. Ibitonore biraryoha kandi noneho ikindi, ntibimara inkwi kubera ko bishya vuba.

Umurimo wo guhinga cyangwa se umwuga wo guhinga, ni umurimo mwiza cyane, kubera ko nk'umuntu uhinga karoti, undi agahinga inyanya, undi agahinga intoryi, ni ibintu byiza cyane kuko ubirisha umuceri, wabirisha ibirayi, urumva ko karoti, inyanya, intoryi iyo wabivanze, bivamo ibiryo biryoshye cyane, kandi abantu benshi barabikunda kubirya.

Gucururiza ahabugenewe bizana inyungu nyinshi kubera ko birinda abamamyi. Ba bandi batembereza rero batuma abacururiza ahantu nk'aha ngaha batabona abakiriya, ndetse bakabura n'ukuntu basora, umusoro na wo ukagenda ugatinza ibibazo by'ibikorwa remezo kuko nta misoro nta mashuri, nta mavuriro ubwo rero turwanye abatembereza kubera ko batuma abacururiza...